Ibyatsi byiza cyane, ibyatsi bibereye ijisho, ibyatsi tuzi nk'inyanya abari gutera umuti, inyanya zikaba ziri mu bimwe mu birinda indwara ndetse uzijyanye ku isoko kuzigurisha ukabona amafaranga.

Umugabo mwiza cyane, umugabo w’umuzungu wambaye agatambaro mu mutwe k’umweru, uhetse icyuma cyiza cyane cya kizungu, wambaye ipantaro nziza cyane y’umukara, uri gutera umuti mu bimera. Ibimera tukaba tubigurisha tukabona amafaranga.

Inyama nziza cyane, inyama y'ifi, inyama iriho udusereri ku ruhande gatoya, ndetse hakaba hariho n'udutmati dukeya. Inyama zikaba zigira poroteyine turazigurisha tukabona amafaranga.

Amafi meza cyane, amafi afite ibara ry'umweru, amafi ari mu nshundura bayarobye, amafi akaba atanga inyama bakaziteka ndetse bayagurisha bakabaha n'amafaranga, amafi abamo poroteyine.

Abantu, abantu bagiye batandukanye, abantu birabura, abantu bafashe inshundura bari kuroba amafi, amafi tukaba tuyifashisha turi kuyagurisha ndetse tukayarya, kuko abamo poroteyine.

Ibiryo byiza cyane ibiryo biteye apeti, ibiryo birimo udusereri, ibiryo birimo n'akabuto ndetse n'inyama. Ibi bikaba bidufasha mu kugira ubuzima bwiza. Sereri zirinda indwara ndetse zitera apeti, kandi iyo uzigurishije ubona amafaranga.

Amafi meza cyane, amafi afite ibara rigiye gusa n'umweru arambitse mu gasahani keza cyane k'umukara. Hirya gatoya hakaba hariho udusereri twiza cyane n'igitunguru, hino hakaba hariho hayi nziza cyane. Hayi ikaba iri mu birinda indwara, ndetse n'amafi akaba ari mu bigira poroteyine ndetse byubaka umubiri.

Ibyatsi byiza cyane ibyatsi by'icyatsi birimo ubutaka bwiza cyane, bugiye gusana n'umuhondo. Hirya gatoya hakaba hariho intoki nziza cyane zifite ibibabi by'icatsi. Intoke tukaba tuzirya ndetse bitoke bigira poroteyine, hirya yaho gato hakaba hariho ibindi byatsi by'ubwoko butandukanye.

Ibyatsi byiza cyane, ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, harimo n'igiti cyiza cyane cya nunusi, kirekire gifite amababi yi'icyatsi. Byose hamwe bikaba bidufasha mu kurinda isuri, ndetse ibiti bikaba bidukururira umwuka mwiza duhumeka.

Ibyatsi byiza cyane, ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, ibyatsi biteye mu butaka bwiza cyane buhinze imitabo bw'umukara. Hirya gatoya, hakaba hariho ibiti bigiye bitandukanye, harimo n'iby'intusi. Tukaba tubicanamo amakara, ndetse tugakuramo inkwi n'imbaho.

Ibyatsi byiza cyane ibyatsi by'icyatsi. Ibyatsi birimo ubutaka bwiza cyane w'umukara, hirya gato hakaba hariho udutusi tw'indusi. Hirya gato hari ibiti binini by'indusi ibiti tukaba tubyifashisha turi gukuramo amakara, imbaho ndetse tukanakoramo inkwi zo gucyana.

Ibyatsi byiza cyane. ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi birim'ubutaka bwiza cyane bagiye gusu umukara harimo n'ibiti bitandukanye. ibiti twitaga intusi bikaba bidufasha mu kurwanya isuri ndetse dukuramo inkwi n'amakara byo gutekesha.

Ubutaka bwiza cyane, ubutaka bw'umukara buteyeho ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibirayi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo n'igiti cya runusi. Ibirayi bikaba bigira poroteyine ndetse ibiti bikaba birinda isuri bikaduha n'umwuka mwiza.

Ubutaka, ubutaka bwiza cyane, ubutaka bugiye gusa umukara, harimo ibirayi byiza cyane bifite ibara ry'cyatsi. Ibirayi bikaba biduhereza proteyine, ndetse bikaba bitera n'imbaraga twabigurisha tukabona amafaranga.

Ubutaka bubi cyane, ubutaka bugiye gusa n'umutuku, ubutaka buhinzemo imboga zigiye zitandukanye, harimo na karoti, karoti zikaba zidufasha mu gihe tuzigurishije, tukabona amafaranga ndetse ziri mu buryo bitera imbaraga binagira poroteyine.

Abantu beza cyane, abantu birabura batandukanye harimo umugabo wambaye agapira k'umutuku ufite amaboko yirabura wambaye ipantaro yumukara uhagaze ku igare ryiza cyane rigiye gusa umukara, imbere hakaba hari umuhungu wambaye ipantaro ijya gusa icyatsi hejuru akaba yambaye agapira k'umukara.

Ubwatsi bwiza cyane ubwatsi bw'icyatsi, ubwatsi buri mu butaka bwiza cyane ubutaka bugiye gusa n'umukara hakaba harimo intama zigiye zitandukanye, imwe iryamye indi hepfo yunamye iri kurisha, hirya gatoya hakaba hariho igiti cyiza cyane, gifite amababi meza cyane y'icyatsi.

Inyoni, inyoni nziza cyane, inyoni ifite amabara agiye atandukanye, harimo akabara k'umukara hejuru, ndetse n'akabara kagiye gusa n'umuhondo hasi. Ikaba ihagaze ku dushami tw'igiti, ibiti tukaba tubyifashisha mu kubigurisha, ndetse tukabikuramo imbaho, kandi birinda isuri.

Ibyatsi byiza cyane, ibyatsi bibereye ijisho, ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi harimo n'ibifite utubabi twumye, hasi gatoya hakaba hariho utundi twatsi dutoya tugiye dutandukanye, ibyatsi bikaba birinda isuri, ndetse tubivanamo n'imiti.

Ibirayi byiza cyane, ibirayi biteye mu butaka bwiza cyane, buhinze imitabo bw'umukara, hakaba harimo n'ibitoki bigiye bitandukanye, bimwe muri byo barabifatishije ibiti kugira ngo bidahirima. Ibirayi bitanga poroteyine ndetse iyo tubigurishije tubona amafaranga.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije sima, inzu ifite ibara rigiye gusa n'umweru, ifite amabati meza cyane y'umutuku, ikaba ifite igipangu cy'amatafari ahiye, imbere gatotonya hakaba hariho ibitoki, biteye mu murima mwiza cyane bahinze imitabo.

Ibyatsi byiza cyane, ibyatsi by'icyatsi, ibyatsi n'ubutaka bwiza cyane, ibyatsi biri hafi y'amazi, amazi menshi, amazi meza cyane, abereye ijisho, hirya yayo hakaba hariho ibyatsi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Igiti kiza cyane, igiti cya voka, igiti gifite amababi y'icyatsi, voka tukaba tuzifashisha mu kuzigurisha, ndetse voka zikaba zinafasha umubiri n'indwara, avoka zikaba zifashishwa mu igogora ry'ibyo twariye.

Ibyatsi byiza, ibyatsi byiza cyane birimo ubutaka bwiza cyane bw'umukara. Harimo amajeri ndetse harimo n'ibigori byumagaye, amajeri akaba ari mu biturinda indwara, ndetse biduhereza porotoyine ndetse n'ibigori bikaba biduhereza ifu n'impungure.

Inzu nziza cyane, inzu ya sima. Hino y'inzu gato hariho ibitunguru biteye mu butaka bwiza cyane, ubutaka bugiye gusa umukara. Ibitunguru bikaba ari bimwe mu bintu twifashisha birinda indwara. Hino y'ibitunguru gatoya hakaba hariho ibyatsi by'imihati, ibyatsi by'imihati tukaba tubyifashisha turi kugaba imirima.

Ibyatsi byiza cyane ibyatsi bifite ibara ry'icatsi, ibyatsi biri mu butaka bwiza cyane, buhinze nk' imitabo bugiye gusa n'umukara hirya gatonya hakaba hariho ibiti bya runusi, hirya yabyo gatoya hakaba hariho ibikenyeri bigiye bitandukanye.

Ibyatsi, ibyatsi byiza cyane, ibyatsi by'icyatsi, ibyatsi biteye mu butaka bwiza, ubutaka bw'umukara, harimo n'amabuye, hirya gato hari igihaza, igihaza kiri kwera, hirya y'igihaza hari inzu, inzu tuzifashisha tuzituramo ndetse tunabikamo ibintu.

Ibirayi ibirayi byiza cyane ibirayi bifite amababi y'icyatsi, birayi by'ubutaka bwiza cyane bugiye gusa n'umukara, hirya y'ibirayi gato hakaba hariho ibigori, ibigori byiza cyane ibigori bikuze. Ibirayi tukaba tubyifashisha turi kubigurisha ,ndetse ibirayi bigira poroteyine bikadutera imbaraga.

Ibyatsi byiza cyane, ibyatsi bigiye bitandukanye, ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi biri mu ubutaka bwiza bw'umukara hirya gato hakaba hari igiti cyiza cyane gifite amababi menshi y'icyatsi hirya yacyo gatotonya hakaba ari ibigori byumye by'abasaruye hirya gato hakaba hari ibirayi bihinze, ibirayi bikaduhereza porotoyine ndetse tukabigurisha tukabona amafaranga.

Ubwatsi bwiza cyane, ubwatsi busa icyatsi, ubwatsi biri mu butaka bwiza cyane, ubutaka bw'umukara, hino gatoya hakaba hariho ibigorigori byumagaye, ndetse hirya gatoya hakaba hari ibiti by'ubwoko bubiri butandukanye, ibiti bidukururira umwuka mwiza, kandi birwanya isuri.

Ibyatsi byiza cyane ibyatsi bitandukanye harimo n'amajeri. Amajeri akaba abamo poroteyine ndetse tukaba twayagurisha tukabona amafaranga, mu majeri hateyemo imishingiriro igiye itandukanye ishingiriye ibishyimbo baguye.

Umunara, umunara mwiza cyane, hino y'umunara hariho umugabo wambaye agapira k'umweru n'ikabutura igiye gusa n'ubururu, ahagaze mu byatsi, ibyatsi byiza cyane, ibyatsi by'icyatsi. Ibyatsi ni bimwe mu bintu twifashisha mu buvuzi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ibyatsi, ibyatsi byiza cyane, hirya gato hariho urutoki rwiza cyane. Urutoki rugiye gusa icyatsi. Ibitoki tukaba tubyifashisha turi kubigurisha, ndetse ibitoki dukuramo amafunguro, bikaba biri mu biturinda indwara.

Ibiti cyane, ibiti bigiye bitandukanye harimo agatusi keza cyane gafite ibibabi bya buruhuvu, hirya gatoya hakabaho n'ibiti byinshi by'intusi nabyo bifite amababi meza cyane y'icyatsi hirya gato hakaba hariho igiti cy'umushubi, kandi umushubi urapfumana.

Imyembe, imyembe myiza cyane, imyembe isa icyatsi, Indi isa umuhondo, hirya y'imyembe gato hari inanasi, inanasi zigiye zitandukanye, ibi tukaba tubyifashisha nk'ibirinda indwara kandi tukabigurisha tukabona amafaranga.

Ibimera byiza cyane, ikimera cy'icyatsi gifite amabara y'icyatsi, iki kimera tucyita ikigori, ikigori kikaba kiduhereza ifu, kikaba kivamo impungure, tukaba twakigurisha tukabona amafaranga, ndetse kigira na poroteyine.

Abantu bagiye batandukanye harimo abadamu beza cyane birabura, barimo umudamu umwe mwiteze igitenge cy'umuhondo, wambaye agashati k'umweru, n'ingutiya y'umutuku, wambaye ibirenge, uhagaze kuri shitingi hirya ye gato hakaba hariho n'undi mudamu wicaye wambaye agapira k'icyatsi.

Abantu bagiye batandukanye, abantu birarabura harimo abafasha amasuka hino gatotonya hakaba ari umugabo wambaye isengeri y'umweru wirabura wambaye n'ingofero. Hirya hakaba hari n'undi uzamuye isuka bakaba bari guhinga. Guhinga bikaba ari byiza kuko tubonamo amafaranga ndetse tugahinga ibihingwa bitandukanye harimo n'ibirayi.

Ibirayi, ibirayi byiza cyane, ibirayi by'umweru, ibirayi bigiye bitandukanye, ibirayi tubyifashisha turi kubigurisha, tukabona amafaranga ndetse ibirayi turabirya, kuko bitera imbaraga ndetse bigira na poroteyine.

Ibipapayi ibipapayi byiza cyane ibipapayi harimo bimwe by'icyatsi, hakabamo n'icy'umuhondo byose bikaba biri ku giti. Ibi tukaba tubyifashisha nk'ibirinda indwara ndetse tukabyifashisha turi kubigurisha.

Avoka nziza cyane, avoka zifite amabara agiye atandukanye, harimo iz'icyatsi ndetse n'iz'umukara. Avoka zikaba zifasha mu igogora, avoka tukaba tuzifashisha mu ifunguro ryacu rya buri munsi, avoka turazigurisha tukabona amafaranga.

Imodoka nziza cyane imodoka y'umweru. Imodoka ipakiye ibintu by'icyatsi by'ibitoki, hejuru gato hakaba hariho umugabo uri hejuru by'ibitoki kuko arikubipakurura, wambaye ikoti ry'ishatsi. Hino gatotonya hakaba hari umwajendi wicaye musi y'umutaka wa emutiyene. Hirya hakaba hariho amamoto abiri.

Umuntu mwiza cyane, umudamu wirabura, umudamu uteze igitambaro kigiye gusa umutuku, wambaye ipantaro yumukara, uri gushira itaka mu bihoho, umudamu ufite ibiganza byirabura.

Abantu bagiye batandukanye harimo umudamu mwiza cyane wambaye agapira k'umuhondo, ufite ibiganza byirabura. Inyuma hakaba hari abandi badamu bagiye batandukanye harimo ufashe umwana, umwana wambaye ingofero y'umuhondo akaba ari mu birarayi umwe abifashe.

imbuto, imbuto nziza cyane, imbuto z'umuhondo, imbuto abenshi tuzi nk'amaronji, imbuto nziza cyane kuko zidufasha mu kwirinda indwara, ndetse tukazifashisha turi kuzigurisha tukabona amafaranga.

Ibirayi byiza cyane, ibirayi bifite ibara ry'umutuku biri mu ndobo y'umweru, ibirayi biduhereza poroteyine, ndetse ni ibitera imbaraga, kandi ibirayi iyo tubigurishije tubona amafaranga.

Ibijumba byiza cyane, ibijumba biryoshye, ibijumba bifite ibara rigiye gusa nk'umutuku mo indani bifite ibara ry'umuhondo, ibijumba bikaba ari bimwe mu bitera imbaraga ndetse turabigurisha, tukabona amafaranga.

Abadamu beza cyane, abadamu birabura harimo umwe wambaye ishati y'umweru ufite isuka, hino ye hakaba hari undi wambaye umupira w'ubudodo ugiye gusa n'icyatsi nawe ufite isuka, hino gato hakaba hariho undi ufite umusatsi mwiza cyane w' umukara nawe wazamuwe isuka.

Ibirayi byiza cyane birayi byeze neza byereye mu butaka bwiza cyane bw'umukara, bifite ibara ry'icyatsi. Harimo umugabo mwiza cyane uhetse icyuma cy'umuhondo urikubitera umuti. Ibirayi biduhereza poroteyine ndetse turarugusha tukabona amafaranga, ndetse biri mubitera imbaraga.

Ibitoki byiza cyane, ibitoki bibereye ijisho, ibitoki bifite ibara rigiye gusa icyatsi, ibitoki bikaba ari bimwe mu birinda indwara, ndetse turagurisha tukabona amafaranga, hirya gatonya hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro igiye gusa n'umukara.

Abantu beza cyane, abantu birabura, harimo umukecuru wambaye umupira w'umutuku ufite n'ingofero, ndetse akaba yiteze igitambaro cy'umutuku. Imbere gatoya hakaba hari amashu menshi meza. Amashu akaba yifashishwa mu gutegura ibiryo, kandi ari mu birinda indwara.

Umuntu mwiza cyane. umuntu wirabura ufite ugutwi kwirabura ufite umusatsi mwiza cyane. umusatsi wumukara numu umusatsi wirabura wiyoroshe igitambaro cyiza cyane. igitambaro kirabura.

Ingano nziza cyane, ingano zitangiye kumera, ingano zanitse kwihema ryiza cyane rifite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse hejuru kandi rifite ibara ry'umweru ingano tukaba tuzigurisha tukabonamo n'amafaranga ndetse iyo tuziriye zibamo poroteyine kandi zivamo ifu.

Icyatsi cyiza cyane, ibyatsi bigiye bitandukanye, ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi harimo n'amatunda, amatunda tukaba tuyifashisha mu kuyagurisha, akaduhereza amafaranga, ndetse akaba ari mu birinda indwara.

Iibigori byiza cyane, ibigori bifite amababi y'icyatsi, ibigori bikaba bivamo impungure, ibigori bikaba bivamo ifu tukabyifashisha tu bigurisha ndetse ibigori bigira poroteyine zi zitandukanye.

Igihaza cyiza cyane igihaza gifite ibara rigiye gusana n'umukara, igihaza tukaba tukifashisha tugiteka ndetse dutegura ifunguro, kikaba gitanga poroteyine ndetse twakigurisha ku soko tukabona amafaranga.

Inyamaswa nziza cyane, inyamaswa iguruka, ihagaze mu twatsi twiza cyane, utwatsi tw'icyatsi. Ibyatsi tukaba byifashisha mu buvuzi bwa gakondo, ndetse ibyatsi bikaba birinda, birwanya isuri.

Umudamu mwiza cyane umudamu wirabura, umadamu uteze igitambara umudamu uhagaze mu murima urimo ibirayi. Ibirayi iyo tubigurishije tubona amafaranga, ndetse bigira poroteyine biri mu bitera imbaraga.

Amasaka meza cyane, amasaka afite ibara ry'umutuku, amasaka ari mu ihema ryiza cyane ry'umweru, amasaka tukaba tuyifashisha turigukora umusururu ndetse n'igikoma, tukaba tuyagurisha tukabona amafaranga, amasaka kandi ikagira poroteyine.

Imbuto nziza cyane imbuto zifite ibara rigiye gusa icyatsi imbuto twita amapera. Amapera akaba agira imbuto mo indani zikomeye cyane zitapfa guhekenyeka ,ndetse akaba arinda indwara, ndetse turayagurisha tukabona amafaranga.

Inanasi nziza cyane, inanasi zitandukanye zifite hejuru hariho icyatsi cyiza cyane, hirya gato hariho umudamu mwiza cyane cyangwa zamara wigerageza cyane. naanasi zikaba ari zimwe mu birinda indwara kandi twazigurisha tukabona amafaranga.

Igihaza cyiza cyane gihaza kibereye ijisho igihaza gifite ibara inyuma ry'icyatsi mo indani kikaba gifite imbuto ndetse kikaba gifite n'ibara ry'umuhondo mo indani. Igihaza kikaba kiri mu birinda indwara ndetse bigira poroteyine.

Imbuto nziza cyane imbuto ziri mu kabase k'ubururu imbuto zisa icyatsi izi mbuto abenshi tuzizi nk'amatunda y'amarikuca, aya matunda akaba yadufasha mu kwirinda indwara ndetse niyo tuyagurishije tubona amafaranga.

Ibijumba byiza cyane ibijumba bigiye bitandukanye ari ibifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibifite akabara k'umweru, hirya gato hakaba hariho umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse n'ikoboyi hasi. Ibijumba bukaba biri mu ndobo igiye gusa n'icyatsi.

Imbuto, imbuto nziza cyane, imbuto z'umuhondo, imbuto ziri mu kantu k'umutuku, imbuto tukaba tuzifashisha mu kurinda indwara ndetse tukazifashisha turi kuzigurisha, kugirango ngo tubone amafaranga.

Ibirayi, ibirayi byiza, ibirayi by'umweru, ibirayi bihinze mu butaka bwiza bw'umukara, ibirayi tubyifashisha tubiteka, ibirayi tubyifashisha tubigurisha, kandi ikindi ibirayi bigira poroteyine kandi bitera n'imbaraga.

Ibijumba byiza cyane, ibijumba bifitemo indani umuhondo, ibijumba bifufutse neza, ibijumba bifite ibara ry'umutuku, ibijumba biri mu isafuriya nziza cyane, isafuriya y'icyuma cy'umweru. Ibijumba bikaba biri mu bitera imbaraga, kandi iyo tubigurishije tubonamo amafaranga.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo umudamu wiraburawuteze igitambaro mu mutwe, wambaye agapira k'umutuku uhetse umwana mwiza cyane, w'igikara ufite umusatsi w'umukara, ufite n'ibiganza by'umukara, bakaba bahagaze ahantu mu byatsi harimo n'ibigori.

Abantu beza cyane, abantu bagiye batandukanye, abantu bari guhinga ibirayi byiza cyane, mu butaka bw'umukara bwiza cyane. Harimo umwe ufashe isuka, wambaye ingofero igiye gusa n'ubururu. Ibirayi bikaba ari bimwe mu bitera imbaraga, ndetse turabigurisha tukabona amafaranga.

Ibigori byiza cyane, ibigori bibereye ijisho, bimwe bipakiye mu mifuka, bindi biri hasi. Ibigori bitanga poroteyine, ibigori bivamo ifu tugateka umutsima, ndetse ibigori ubigurishije ku isoko, wabona amafaranga.

Umudamu mwiza cyane, umudamu wirabura witeze igitenge cy'ubururu, wambaye n'umupira w'itiriningi w'umutuku urimo umweru mu maboko, uri kuhira ibirayi, ibirayi bikaba biduhereza poroteyine, ndetse tukagurisha tukabonamo amafaranga.

Umuntu mwiza cyane, umugabo wirabura, umugabo ufashe ibigori mu ntoki ze, ibigori bikaba bivamo impungure, ibigori bikaba bivamo ifu, ibigori tukaba tubigurisha tukabona amafaranga ndetse ibigori biduhereza poroteyine iyo twabitetse.

Voka nziza cyane, voka ifite igishishwa cy'umukara ndetse mo indani ikaba isa umuhondo, indi ikaba ifitemo indani igitoboto. Voka ikaba ifasha mu igogora, voka ikaba itanga amavuta ndetse twazigurisha tukabona amafaranga.

Ihene nziza cyane ihene zigiye zitandukanye harimo imwe y'umukara, ndetse n'indi igiye gusa n'umuhondo, zikaba ziri kurisha ubwatsi bwiza cyane ubwatsi bugiye gusa n'icyatsi. Ihene zikaba ziduhereza inyama, ndetse n'iyo tuzigurishije tubona amafaranga.

Abantu beza cyane, abantu bagiye batandukanye harimo umugabo n'umugore, umugore witeze igitambaro cy'umutuku n'agapira k'umutuku, ukenyeye igitenge cyiza cyane uri kumwe n'umugabo ufite isuka ku rutugu wambaye ipantaro y'umweru n'abote y'umukara, bakaba bahagaze mu kayira keza cyane, akayira agaharu hirya yaho hariho ibihingwa bitandukanye.

Abantu beza cyane, abadamu birabura, harimo uwambaye agapira k'umutuku, witeze igitambaro cy'umweru, uri gusarura ingano, ingano zikuze neza, ingano zikaba ziva amatofu, ndetse zikavamo n'ifu yo gukoramo igikoma.

Imifuka myiza cyane, imifuka y' umweru, imifuka irimo ibirayi byiza cyane; ibirayi by' umweru, ibirayi bikaba bigira poroteyine, turabigurisha tukabona amafaranga ndetse ibirayi biri mu bitera imbaraga.

Abantu, abantu bagiye batandukanye, hino gato hari umuntu wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara uri gutera igiti. Ibiti bikaba bidufasha mu kurinda isuri, ndetse ibiti tubikuramo inkwi n'amakara byo gutekesha.

Ibishyimbo byiza cyane, ibishyimbo bigiye gusa umutuku. Hirya gatoya hari amajeri meza cyane, amajeri y'icyatsi. Hirya y'amajeri gatoya hariho ibigori byiza cyane. Ibishyimbo ndetse n'ibigori bikaba ari bimwe mu bitanga poroteyine, ndetse n'iyo tubigurishije tubonamo amafaranga.

Abantu beza cyane, abantu birabura, harimo umugabo wambaye ikositimu y'umukara, bafashe imyumbati myiza cyane. Imyumbati ikaba iri mu bitera imbaraga, tuyigurishije tubona amafaranga. Hariho n’umudamu wambaye agapira k'umukara, ufite ibiganza byirabura.

Voka nziza cyane voka iryoshe, voka ifite ikibuto buto imbere ndetse n'izindivoka ebyiri, zifite amabara y'umukara, zikaba zifasha mugogora ndetse turazigurisha tukabona amafaranga.

Inyamaswa nziza cyane, inyamaswa zifite amatwi maremare, inyamaswa zisa umweru, ziri ahantu hari utwatsi twatangiye kuma. Inyamaswa dukunda zifite amaso y'umukara zitwa inkwavu. Inkwavu tukaba tuzikuramo inyama, ndetse n'iyo tuzigurishije tubonamo amafaranga.

Imbuto nziza cyan imbuto zifite ibara rigiye gusa n'umutuku. Imbuto tuzi nka marikujya amatunda yamarikujya glakaba arinda indwara, ndetse turayagurisha tukabona amafaranga.

Ubunyobwa bwiza cyane, ubunyobwa bufite ibara rigiye gusa n'umutuku. Ubunyobwa tukaba tubwifashisha turi kubugurisha tukabona amafaranga, ndetse bugira poroteyine zigiye zitandukanye, kandi buvamo n'ifu.

Ibyatsi byiza cyane ibyatsi by'amajeri biteye neza k'umurongo, mu butaka bwiza cyane bugiye gusa n'umukara, amajeri akaba atanga poroteyine ndetse, iyo uyagurishije ubona amafaranga.

Umuntu, umuntu mwiza cyane, umuntu ufite intoki nziza cyane, intoki z'inzobe, akaba afashe imiteja, imitaja myiza cyane imiteja y'icyatsi, imiteja miremire, imiteja ikaba iri ku nkoko, inkoko nziza cyane, inkoko tukaba tuyifashisha turi kugosora, ndetse tukayifashisha no mu bindi.

Ubunyobwa bwiza cyane ubunyobwa bugiye butandukanye, ubunyobwa bushishuye n'ubudashishuye harimo ubugiye gusa n'umutuku, ndetse n'ubugiye gusa n'umweru . Ubunyobwa tukaba twabugurisha tugakuramo amafaranga, ubunyobwa bugira poroteyine.

Utwatsi twiza cyane, utwatsi tw’amajeri, utwatsi tweze turi kuzamuka mu nshundura. Amajeri akaba agira poroteyine, ndetse iyo twayagurishije tubona amafaranga. Ikindi kandi, amajeri ari mu bitera imbaraga.

Ibishyimbo byiza cyane, ibishyimbo bifite ibara ry’icyatsi, ndetse bifite n’umushogoro mwiza cyane ufite ibara ry’icyatsi. Umushogoro akaba ari imboga twifashisha, zirinda indwara. Ndetse n'ibishyimbo bikaba biduhereza poroteyine.

Ibigori byiza cyane, ibigori bifite ibara ryiza cyane ry'umuhondo, ibigori tukaba tubigurisha tukabona amafaranga, ndetse ibigori bigira poroteyine, ibigori biri mu birinda indwara.

Ibishyimbo byiza cyane ibishimbo bigiye bitandukanye, ibishyimbo bimwe bifite ibara rigiye gusa n'icyatsi ibindi bifite irigiye gusa n'umuhondo, ibindi bifite ibara rigiye gusa n'ubururu bwijimye, ibishyimbo bikaba biduha poroteyine ndetse turabigurisha tukabona amafaranga.

Abantu bagiye batandukanye harimo wo ababyeyi babiri. Umwe witeze igitambaro cy'umweru, ukenyeye igitenge cy'umutuku. Hirya y'aho gatoya hakaba hariho n'undi na we ufashe indara, witezeho igitambaro cy'umukara. Hagati yabo hakaba hari umukobwa mwiza cyane w'inzobe, ufite imisatsi myiza cyane zigiye gusa na shokora.

Abantu babiri beza cyane , bagiye batandukanye birarabura. Harimo umwe wambaye ingofero nziza cyane yumukara ,ufite ibiganza byirabura wambaye itaburiya nziza cyane yubururu, wambaye namaboti yumukara , hijya hakaba hariho nundi wambaye itaburiya yubururu.

Akazu ka nyakatsi, akazu keza cyane. Hirya gatoya yako hakaba hariho uturabyo twiza cyane, uturabyo duteye ku murongo. Hirya y’uturabyo, hakaba hariho ibiti byiza cyane bifite amababi y’icyatsi. Ibiti bikaba birwanya isuri, tubonamo imbaho, ndetse tugakoramo n’amakara yo gutekesha.

Ibimera byiza cyane ibimera bifite ibara rigiye gusa umuhondo, ibimera twese tuzi ko byitwa ingano. Ibimera bikaba byifashishwa mu gutanga ifu ndetse bikaba binavamo tofu, turabigurisha tukabonamo amafaranga.

Inzu nziza cyane, inzu irimo ibigori byinshi cyane bimanitse, ifite ibara rigiye gusa umutuku, hino gatoya hakaba hariho abantu birabura, harimo umuhungu ufite umusatsi w'umukara, hino ye hakaba hariho undi mugabo wambaye ishati y'umukara y'amaboko n'ipantaro y'umukara.

Umukecuru mwiza cyane witeze igitambara wirabura, ufashe umwana mwiza cyana wirabura, ufite umusatsi mwiza cyane. Inyuma ye hari ibigori bitandukanye, ibigori turabigurisha tukabona amafaranga, ndetse binagira poroteyine, havamo imvungure, hakavamo n'ifu.

Ibishyimbo byiza cyane, ibishyimbo bifite ibara rigiye gusa n'umutuku, hakaba hariho n'amajeri meza cyane amajeri yumye. Ibishyimbo ndetse n'amajeri tukaba tubyifashisha tubigurisha tukabona amafaranga, ndetse bigira poroteyine. Hirya gatoya hari umunzani mwiza cyane w'ubururu.

Umucanga mwiza cyane, umucanga w'umweru, umucanga uri ahantu, hubakishije imbaho, umucanga tukaba tuwifashisha mu kubabaka, ndetse tukawifashisha tugurisha, tukabonamo amafaranga.

Umuntu, umuntu mwiza cyane, umuntu wambaye agapira gasa umukara w'umuzungu, ufashe igihwagari mu ntoki ze, gifite utubuto tw'umukara kikaba gifite n'iby'inyuma bigiye gusa umuhondo, igihwagari tukaba tukifashisha turi gukora amavuta.

Umuntu mwiza cyane. Umuntu ufite ikiganza cyirabura, imbere gato hari ibishimbo byiza cyane, ibishimbo bigiye gusa umutuku, ibishimbo bikaba ari byo biduhereza puroteyine, ndetse turabigurisha tukabona amafaranga ubwo twakuye mu byo twagurishije.

Igishushanyo cyiza cyane, igishushanyo cy'inka ifite amahembe manini cyane, amahembe y'umweru abyibushye, hasi hakaba utwatsi twiza cyane, utwatsi tw'icyatsi, inyuma hakaba hariho ibiti bigiye bitandukanye bifite amababi y'icyatsi.

Umushwi ni mwiza cyane, umushwi ufite ubwoya bugiye gusa umweru, ufite amaguru agiye gusa n'umuhondo. umushwi ukaba ukura ukavamo ukaduhereza amagi ndetse n'inyama twabigurisha tukabona amafaranga.

Umudamu mwiza cyane umudamu wirabura, umudamu ufashe ubwatsi mu kiganza cy'ibumoso. Umudamu witeze agatambaro keza k'umukara akenyeye igitenge cyiza cyane kirimo akabara k'icyatsi n'akabara k'umuhondo, imbere ye hari inka nziza cyane iri kurisha ubwatsi.

Inkoko z'imishwi, inkoko zifite amabara agiye atandukanye. Harimo izijya gusa umukara izindi zikaba zigiye gusa umweru. Inko zikaba ziduha amagi ndetse n'inyama, tukanazigurisha tukabona amafaranga.

Inkwavu nziza cyane, inkwavu ifite amatwi y'umweru, ikagira ijisho ry'umukara ndetse ikagira nubwoya bw' umweru ikaba ifite ibyana byinshi, ibyana byayo bikaba biri kuyonka nabyo ndetse n' umweru harimo kimwe kigiye gusana n'umuhondo.

Inkoko nziza cyane, inkoko z'imishwi, inkoko zifite akabara kagiye gusa umweru, inkoko ziduha inyama, inkoko turazigurisha tukabona amafaranga, inkoko zitera amagi tukayarya.

Inkoko nyinshi, inkoko zigiye zitandukanye, inkoko zifite ibara rigiye gusa n'umutuku, inkoko zikaba ziduhereza amagi ndetse inkoko turazigurisha tukabona amafaranga. Inkoko ziduha inyama zo kurya.

Imbata nziza cyane, imbata zifite udutwe tw'umweru, ndetse inyuma zikaba zisa umukara, n'amaguru agiye gusa n'umweru, zikaba ziri mu butaka bwiza cyane bw'umukara. Zikaba ziduha inyama, ndetse twazigurisha tukabona amafaranga.

Umukobwa mwiza cyane umukobwa ufite imisatsi yizinze, igiye gusa n'umutuku, wambaye agapira k'umweru wambaye na bodaboda zigiye gusa umuhondo, hirya hakaba hariho inziza cyane ifite ibara ry 'umukara ndetse n'iyumweru.

Inkoko nziza cyane , inkoko zigiye zitandukanye hariho isake igiye gusa n'umutuku, hirya gato hakaba hariho indi nkoko kazi y'umukara. Inkoko tukaba tuzigurisha tukabona amafaranga, inkoko kandi ziduhereza amagi, inkoko ziduhereza inyama, inkoko ni zimwe mu bintu biduhereza poroteyine.

Intama, intama nziza cyane, intama zisa umweru, intama ziri kurisha ibyatsi, ibyatsi byiza cyane, ibyatsi by'icyatsi, intama tuzifashisha igihe dushaka inyama, ndetse tukazigurisha tukabona amafaranga.

Abantu beza cyane abantu bagiye batandukanye harimo umudamu mwiza cyane ufite umusatsi w'umukara uzinze, wambaye ga zigiye gusa n'ubururu, hirya ye hakaba hariho imbwa nziza cyane ifite ibara rigiye gusa n'umuhondo, bakaba bayifashe ari batatu.

Umuntu mwiza cyane, umuntu w’umuzungu ufite ibiganza by’inzobe, ufashe urushinge rurimo umuti mu biganza bye, ari kurutera inka ifite ibara ry’umukara ndetse n’ibara ry’umweru. Gukingira inka bikaba ari byiza kuko biyirinda indwara zigiye zitandukanye.

Inkoko nyinshi zigiye zitandukanye , inkoko nziza, inkoko zifite ibara rijya gusa n'umutuku. Inkoko tukaba tuzifashisha turi gukoramo inyama, ndetse ziduhereza amagi, turazigurisha, tukabona amafaranga.

Ihene nziza cyane, ihene zigiye zitandukanye, ihene ziri ku butaka bubi cyane, ubutaka bukomeye, ubutaka butakweraho ibyatsi byiza cyane, ihene zifite akabara k'umukara ndetse n'ak'umweru, zimwe zikaba zihagaze izindi zikaba ziryamye.

Inyoni nziza cyane, inyoni ifite amabara meza cyane harimo; akabara k'umutuku hafi y'ibara rya buruburaka, hejuru ifite umunwa ugiye gusana n'umuhondo, ihagaze ku gishami cyiza cyane gifite amababi meza cyane ku cyatsi.

Inyoni nziza cyane, inyoni ifite umuntwe hejuru hasa n'umutuku, iyuma hakaba hasa icyatsi, ihagaze ku giti cyiza cyane, inyoni zikaba zituririmbira, hirya gatoya hariho ibyatsi byiza cyane bifite ibara ry'icatsi.

Inyamaswa nziza cyane, inyamaswa ifite amababa agiye gusa umukara, inyamaswa yazamuye amababa yayo, iri kuguruka hasi yayo gatoya kaba hariho ibyatsi bitandukanye ndetse hakaba harimo n'amabuye y'umukara.

Inyoni nziza cyane, inyoni ibereye ijisho ifite hejuru h'umutuku, ikaba ifitemo n'inyuma h'umutuku, ifite amaba meza cyane ya buru bura n'akabara k'umuhondo imbere hafi y'umunwa, ikaba iri mu giti cyza cyane gifite amababi meza cyane y'icyatsi.

Inyamaswa, inyamaswa nziza cyane, inyamaswa zitwa ingagi, ingagi ni zimwe mu zidufasha mu kugira ngo twinjize amadovize, ya ba mukerarugendo baje kuzisura, izi nyamaswa ziri m'utwatsi twiza cyane tw'icyatsi.

Ibinyogote byiza cyane ibinyogote bifite amabara agiye atandukanye harimo umukara n'akeru, bikaba biri ku butaka bubi cyane ubutaka butapfa kwera hirya gatoya kaba hariho ibyatsi bigiye bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi.

Inyoni nziza cyane, inyoni ifite akabara k'umuhondo hasi, ikagira ibara ry'umukara mo hejuru, ikagira n'umunwa w'umukara, ihagaze ku ishami ryiza cyane, inyoni zikaba zituririmbira buri munsi, kandi ibiti na byo bikaba biturinda isuri.

Inyamaswa nziza cyane, inyamaswa ifite ubwoya bw'umukara, inyamaswa twita ingagi, inyamaswa ifite ibyatsi mu kanwa iri kubirya, inyamaswa ifite igikomere mu mutwe, iyi nyamaswa ikaba ikurura ba mukerarugendo ndetse ikinjiza amadovize.

Inyoni nziza cyane, inyoni ibereye ijisho. Ifite umunwa muremure igiye gusa n'umweru, ifite inyuma hagiye gusa n'umukara, iri mu byatsi byiza cyane. Ibyatsi bikaba tubyifashisha mu kurinda indwara.

Inkende nziza cyane. inkende ihagaze hejuru y'igipangu gifite ibyuma bigiye gusa n'umukara hirya gato hakaba hari ikigega cyiza cyane cyubatse mu mabuye. inkende zikaba zikurura ba mukerarugendo ndetse zikaba zikunda kuba mu ishyamba.

inyamaswa nziza cyane ,inyamaswa ifite umunwa munini cyane inyamaswa ifite ibara ry'umukara, inyamaswa iri kumwe n'ibyana byayo, inyamaswa iri kugendera mu mazi neza cyane. Amazi tukaba tuyifashisha turi gusukura, ndetse iyi nyamaswa tukaba tuyita imvubu ikaba ikurura ba mukerarugendo.

Inyoni nziza cyane, inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti, inyoni ifite amabara agiye atandukanye, inyoni ifite mu gatuza hasa umuhondo, inyoni ifite akabara k'umutuku hejuru yamababa, inyoni ifite amaguru agiye gusa umuhondo.

Umuserebanya mwiza cyane, umuserebanye ufite amabara agiye atandukanye. Umutwe ufite ibara ry'umuhondo, ufite ijisho ry'umukara. Munsi gatoya ukaba ufite ibara rigiye gusa n'ubururu mu gatuza, ndetse n'amaguru y'imbere n'inda ,inyuma ukaba ugiye gusa n'icyatsi.

Inyoni nziza cyane inyoni y'umukara ifite amababa meza cyane, amababa y'umukara ikaba iri mu byatsi byiza cyane ibyatsi by'icyatsi. Ibyatsi bikaba biturinda isuri ndetse tukaba tubyifashisha mu buvuzi.